Niba ufite ikinyabiziga cyawe, inzu cyangwa ikindi kintu ushobora gushakira ubwishingizi, ni byiza ko wakijyanayo kuko igihe cyangiritse ntabwo ufite urahomba, ariko iyo ubufite biragufasha cyane, kuko iyo kigize ikibazo runaka urabitabaza wenda ukoze nk'impanuka cyangwa inzu yawe ihiye.

Umubyeyi nawe murezi runaka bantu bayoboye ibigo by'amashuri ndetse n'ahandi hatandukanye, nabagira inama yo kujya mugira ubwishingizi bw'abana banyu kubera ko birabafasha cyane bituma mubavuza igihe barwaye cyangwa se igihe wowe witabye Imana, biramufasha akiga bya bindi bamuzigamiye akabyigiraho agasoza.

Iyo ugize ikibazo runaka nta bwishingizi ufite birakuzahaza, bikagusiga mu bukene, urugero nk'iyo inzu yawe ihiye, kugira ngo uzajye kuyubaka niba yaragutwaye nka miliyoni mirongo itanu aba ari ibintu bigoye. Ariko igiye ufite ubwishingizi, ni ubintu byoroshye cyane kuko uhita ugenda ukabagezaho ikibazo cyawe bakakigukemurira nk'uko ubona uyu musore na we byamushimishije.

Nyine nawe shinganisha ibihingwa byawe rwose uhinge utekanye, ndetse n'inzu uyishinganishe kuko birafasha cyane, bishobora kwangirika ibisimba bikabirya ugasanga birangiritse, rero ni byiza ko nawe wabikora.

Ubwishingizi ni ngombwa mu bikorwa byawe bya buri munsi, niba ufite nk'ahantu ukorera abantu ukoresha, ungomba kugira ibyo mvuga. Rero kuko iyo ugize ikibazo runaka witabaza ubwo bwishingizi wagiyemo, nk'uko ubibona uyu mwari wambaye imyenda myiza y'ubururu n'amagambo yanditseho yandikishije umweru. Ni byiza rero ko nawe wabuyoboka kuko iyo ugize ikibazo baragutabara.

Ni byiza ko inzu yawe cyangwa ibindi runaka ufite imodoka wabishyiraho ubwishingizi kuko burafasha cyane nkuko ubibona kuri iki kirango. Iyo ihiye baragutabara bakakugoboka bakakubakira indi.

Mituweli ni nziza cyane ni ubwisungane mu kwivuza uko bavuga, rero ibi ngibi ni gahunda ya leta ifasha umuntu wese kuba yakivuriza ku mafaranga makeya mu ubushobozi bwe uko bungana, cyane ko muri iyi minsi byabaye akarusho, hagiye mo n'ibintu byinshi, gutanga impyiko, kuvura kanseri n'ibindi.

Iki kirango rero kiri mu mabara meza cyane ubonako kiriho umuntu wambaye umupira w'mutuku ndetse n'ibindi byinshi ariko amagambo yanditseho avugako aringombwa kujya gufata ubwishingizi ahantu runaka cyangwa ibindi bigo bikorera inaha mu Rwanda kuko buragutabara igihe uhuye n'ibibazo.

Ni byiza ko nawe niba utangiye gushinga ikigo runaka, cyamamaza ibintu, wajya ukora imenyekanisha ku bintu bitandukanye. Urugero, nka hano urabibona, bakoresheje umutaka w'umutuku , umukobwa uwuteruye, kuko iki kiganza urakibona ni icy'umukobwa ndetse n'andi magambo n'ikirahure cyiza cyane! Ibi rero biryoheye amaso ndetse bifasha abantu bafite nk'inzu cyangwa imodoka.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari ibigo byinshi bishinzwe kuba byatanga ubwishingizi ku kintu runaka , imodoka, inzu ndetse n'ibindi byinshi cyane ushobora kwikorera nkuko ubibona hano iki ikirango cyibyemeza. Hasi hari ahantu handitse inzu yawe ni igishoro cyawe ikaba n'agaciro kawe menya niba inzu yawe irinzwe na radiyanti. Aha rero uraza ukavu uti igihe cyose nzagira ikibazo runaka, inzu nishya cyangwa imodoka igapfa muzantabara mumfashe.

Kuri ubu ibintu byaroroshye umuntu wese ashobora kwikoreshereza amabanki ye ari mu rugo yifashishije apulikasiyo zakozwe n'iyo ngiyo mvuze, rero ubungubu icyo usabwa amazina yawe umubare wawe w'ibanga ndetse n'ibindi byinshi uba warujujemo ufungura kugira ngo uhite ujyaho bigufasha guhita wishyura cyangwa se ukora ikindi kintu runaka utavuye mu rugo ngo ujye gutonda umurongo.

Kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa apurikasiyo runaka ni byiza cyane kuko birafasha nkuko mubibona uyu muntu witwa Rodriguez Muvunyi yaramaze gutanga amafaranga ahantu runaka si ibyo gusa ushobora no kohereza kuri bake ukagura amayinite n'ibindi byunshi.

Kuvana amafaranga kuri Bank uyohereza kuri nimero ya telefone biroroshye cyangwa ukayavanaho uyohereza ku zindi Bank biroroshye cyane. Nakugira inama rero yo kubyuka ukabikora. Iyi ni application rero nawe wifashisha ugashyira muri telefone yawe ihita ibigukorera byoroshye.

Banke nyinshi zamenye ubwenge, zorohereza abantu babo kugirango bajye babikuza amafaranga aho bari bose zikora ama apulikasiyo, aho ujyaho wareba wenda ushaka kwishyura amazi, umuriro, kugura ama unite n'ibindi ugahita ubikora byihuse cyane, nkuko ubona muriki kirango kiri kwerekana amateka y'ibyakozwe, yishyuye amafaranga magana atandatu, niyo asigaranyeho.

Hariho igihe nawe ushobora kwihangira imirimo cyangwa ukaba wifitemo impano utazi utarabona ariko gerageza igishoboka ikitagukundira wongere ukigerageze urebeko ejo byakunda. Nkuko ubibona uyu nawe nibyo yagerageje ashaka utuntu dusaneza ukabona ni ibintu begenze neza nkuko, hari imitako ushyira munzu nawe ukabonako inzu yawe ibaye inzu koko ibamo umuntu.

Umusore mwiza ubona ko yihangiye imirimo wambaye umupira w'umukara ipantalo ubona ko hari ibintu arikubaza, inyuma ye hamanitse inkweto, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, wareba hasi hanabikwa ibindi bitandukanye, harimo amasaha, imashini za mudasobwa, amatelefone ndetse n'ibindi byinshi nawe wakwihahira rero.

Umubyeyi mwiza urabona ko yihangiye umurimo bikanamushimisha, yambaye umwenda w'igitenge, imbere ye hari ibintu bitandukanye bimufasha guterenya, mutasobwa, hakurya hari imyenda aba yadoze icuruzwa ku buryo buri muntu wese iyo yaza yabona ibihamukwira atabibura.

Uyu rero nkorana ko nawe nyumazana imyenda myiza cyane y'amakoti aje kuyitanga ahantu runaka ngo ayimucuruze bwowana ni musore wambaye ishati nziza iipantaro hirya hari indabyo ziyateretse inyuma ye hari n'handi hari undi muntu wambaye imyenda myiza ubona ko iri mu bururu cyane.

Abantu batatu bicaye muri sale y'inama, ameza arambitseho ibitabo, amazi yo kunywa hejuru, ubaha ikiganiro ubona ko ahagaze basobanura ibiri kubera muri iyo nama.

Ni byiza ko nawe wakwihangira imirimo ucuruza inkweto kuko birafasha, hano hari isoko rwose, abana, abakuru, sipurese, iza siporo ndetse n'izo gusohokana mu birori runaka kandi ni ku giciro kiza rwose.

Kwihangira imirimo ndetse no gukora ibintu bitandukanye bituma utandavura, ntusabirize cyangwa ngo uhure n'ikibazo cyo kuguzaguza amafaranga mu nshuti zawe ngo zigucishemo ijisho. Nk'uko ubinona, uyunguyu acuruza inkweto z'abagore ndetse n'imyenda. N'iz'abagabo waza ugahaha.

Ibi ni ibikapu rero byifashishwa mu kubika ibintu runaka, cyangwa ku banyeshuri, batwaramo amakayi bagiye kwiga, naho abagiye ahanze, bo bashyiramo ibikoresho byabo nk'imyenda, ibyo bazakenera nyine bari ku ishuri. Ibi birafasha cyane rero.

Umubyeyi mwiza cyane, ubona ko yambaye akantu k'akagozi mu ijosi, afite telefone, inyuma ye acuruza ibintu bitandukanye, ndabinamo amata, biswi, ndetse n'ibindi byinshi, ubona ko yihangiye imirimo nyine kugira ngo atazasabiriza cyangwa akagira ikindi kibazo runaka aguza amafaranga ajya kugikemuza.

Ni byiza kwihangira imirimo ariko nanone biba bisaba ibishoro byinshi cyane iyi myenda urabona ukuntu, ari myiza n'ibitambaro bakenenyera niba ndeba neza, uyu muntu rero nawe urabona ko atasabiriza. Ni iyo nama nakugira nawe niba uzi ko ufite iyo gahunda.

Inkweto zifunguye ni nziza cyane ku badamu cyangwa se abandi bantu runaka bafite amano meza baba bashaka kwerekana, nk'uko ubibona rero hano ni twiza, ni udukambiri wajyana ahantu runaka bitewe naho ugiye. Ni byiza rero ko nawe ugomba kutugura ukaza ukihahira muri iyi botike.

Imodoka nyinshi cyane ubonako zose ari zimwe zo mu bwoko bwa Toyota, zigezweho kandi inaha umuntu ajya azibona zikagendwaho n'abantu ubonako bafite amafaranga inyuma yaho hari ibiti by'inshi cyane, amataje yarubatse ubonako abamo abantu.

Ahantu rero bacuruza imodoka nziza za undayi nkuko uri kuzibona ziri mu bwoko bwose umweru, ubururu, igitaka, umutuku ndetse n'ibindi, hari n'ikimenyetse cyaho, urukuta rw'amabuye rwiza cyane, ikirere kibona, gikeye, utwatsi imbere yaho ndetse n'ibiti bituma hasa neza.

Izi ni imodoka rero, zitwa HwoHwo, zifashishwa mu gutunda ibintu runaka bizijjyana ahantu bari gukora imirimo y'ubwubatsi, urugero; umicanga, amabuye, amatafari, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane.

Imodoka nziza ubona ko bw'umwihariko ikorwa n' uruganda rwa suzuki iparitse ahantu ubona ko hakeye ndetse indi nyuma yaho ubana ko ari byiza cyane iri kugurishwa rero miliyoni cumi n'umunani niyo nziza wayigurira nawe.

Akagera bisinesi gurupu ni ikigo gikorera hano mu Rwanda kigurisha imodoka zitandukanye nkuko ubona abangaba rero nabo bafite ikirango cyabo kirangwa n'inyuguti A na B na G udukapu tw'umutuku bateruye kirya hari ikamyo ya fuso wagira ngo bari baje kuyigura.

Aha haramamazwa imodoka iri mu bwoko bwa yundayi, kandi iyi modoka ikaba ifite ibara rya giri, aha hari uturango tw'urukiramende twanditsemo amagambo yo mu cyongereza ako hejuru karimo amagambo ari m'ibara ry'umukara usigirije, akandi karimo amagambo ari mu ibara ry'umweru ariko ari mu gakiramende k'ubururu, biragaragara ko iyi modoka iri kwamamazwa iri k'isoko.

Akagera bizinesi gurupe ni ikigo gishinzwe gutumiza imodoka mu mahanga kikazigeza ino aha mu Rwanda. Si ibyo gusa bakora n'ibindi bitandukanye, ariko ibyo bamamayeho ni ibyo ngibyo. Nk'uko ubibona nyuma yaho haparitse imodoka ndetse hari abagabo batatu urababona ko bishimiye imikoranire yabo bagiranye.

Iyi modoka rwose nziza cyane ubona ko ikeye y'umukara imeze neza yambaye purake mu bwoko bwa toyota rwose ubona ko ni hayiranda hayiburidi bibiri na cumi na kabiri, iparitse ahantu ubona ko igura miliyoni makumyabiri n'eshanu ubaye uyafite wayigura.

Uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi naho kika gisohora ikarita iriho aho wagisanga ugikeneye.

Imodoka nziza zo mu bwoko bwa yundayi ubona ko ari ubw'ikigo gishinzwe gutwara abantu n'ibintu gikorera hano nyabugogo mu Rwanda cyitwa vorukano, rero hano uragenda ugatega ukakugeza iyo ushaka mu ntara zose zibagerayo.

Uyu muntu urabona ko yazanye amafaranga atarayo mu gihugu cye aje gutora ayo mu gihugu cye nyine , kuvunjisha ahantu habugenewe. Inyuma y'ikirahure urahabona umusore wambaye imyenda y'umutuku urabona ko ari kumuha amafaranga nawe bamuhereza andi.

Isambusa ni nziza nkuko uzibona imwe aracyari yose iyindi inyama bazikuyemo bazisuka hasi itekwa hifashishije amavuta, ifarini, amakara cyangwa gaze biterwa nibyo uzakenera iyi rero wajya uyirenzaho buri mu gitondo.

Umuhanda mwiza ubona ko ukeye, ibiti, ipoto ry'amashanyarazi, ikirango kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru hariho utubido turimo amata, moto iparitse mu marembo ndetse n'indobo yo gukarabiramo. Ibi rero, byerekana ko hano hafi hari ahantu bagira ibintu runaka byo gushyira mu nda.

Ni byiza ko wakwihangira imirimo kuko birafasha cyane harimo gucuruza amata, gukora ibindi bitandukanye mbese uko ubibona hano ni umuntu urimo undi yaraje kugura harimo fanta, amazi, imigati ndetse n'ibindi by'inshi.

Aha urabona ko hari inzugi z'ubururu nziza cyaneziriho ibirango byerekana amatara bacuruzamo fanta, amandazi, keke, capati , amasambusa n'ibindi nizere ko nawe wajya uhagera mu gutondo ugiye nko kukazi ikahaca.

Mubyeyi ni byiza ko umwana wawe wajya umuha amata biramufasha cyane, nkuko ubibona uyu nguyu reba amatama afite ni kibonke bisa naho nyine yakuze neza bamwitaho nawe rero nakugira inama ku bushobozi bwawe ufite ntukage uyabura mu gitondo.

Umukobwa mwiza uramubona afite imiringa ku matwi imisatsi iboshye ukuntu umwenda w'imbeho ubona ko amaboko yayashyize kumeza yipfumbase afite ibintu ri kureba byiza cyane inyuma ye rero hari ahantu wagira ngo bacuruza amata nk'uko ubibona nawe.

Wihangiye imirimo nawe ukajya wirirwa ucuruza amata byagufasha bikanagutunga. Uko ubibona uyu muntu wambaye umupira w'umukara nibyo yakoze. Ikawa iteretse ku meza, icyo gukonjesha kiri ahongaho kiriho ibirango by'ubururu, amata ari gusukwa mu kirahure, fanta zimanitse hejuru yaho.

Umwana mwiza cyane ubona ko yishimiye kunywa amata ubona ko ari ibintu byamukojije imisatsi ifunze neza ku kirango kiri mu mabara y'umweru ndetse amagambo yandikishije mu bururu n'icyatsi hirya urahabona ibindi bintu bicuruza byinshi cyane.

Ni byiza ko nawe ahantu ukorera niba haba ubushyuhe wajya ushyiramo ikintu kibazanira umwuka. Rero kirafasha nk'uko ubibona gisa umweru hasize amakaro hirya hari ibikonjesha hari abacuruza amata icyayi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Iki rero kugira ngo gikore hifashishwa umuriro w'amashanyarazi uragicomeka kigahita cyaka.

Umubyeyi uboka no ko agasatsi ke karasokoje, agakote k'umukara, umwambaro we urimo utuntu w'umweru hasi, iruhande hari umusore ufite telefone mu ntoki usa n'aho hari ibyo ari kumwereka, wakubita akajisho hakurya, hari ahantu hari keke ndetse hamanitse fanta n'amazi n'ibindi byinshi chyene. Icyuma cy'amata gihari rero kidufasha kugira ngo tuyabone buri munsi.

Indobo nziza ubonako isa n'ifunguye, mo imbere harimo keke hari ahantu bacuruza amata ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Iyo uhaje baragufasha bagahita bayaguhereza ukinywera ukamara icyaka yaba atetse cyangwa adatetse yaba akonje cyangwa adakonje.

Kano kabido keza kajyamo litiro nyinshi cyane karapfundikiye karasa neza kariho agapapuro hirya hari umupapa urabona ko yambaye imyenda y'ubururu nawe yari yaje kugatwara . Rero bituma amata yawe abikika neza ntuyatware mu ishashi akaba yameneka.

Ahangaha nk'uko uhabona hari intebe nziza cyane, utwo kwihanaguza igihe wanduye, indobo irimo amandazi, inyuma hari udutebe twiza cyane dukeye, ikirango kiriho utubido, icyuma gitunganya amata, ndetse hakurya urahabona amazi meza, amajerekani amanitse, n'ibicuba banyweshaga amata kera.

Mu byapa by'ubururu birimo amgambo yandikishije umweru, ahantu hashashe amabuyeko gako gushyiramo imyanda igihe icikiwe mu nzu, hariho umwana uri kunywa amata ubona ko yishimye mo imbere uhageze r rero ntago wabura icyo kunywa ushaka.

Amandazi ni ingenzi ndetse na keke Aho ushobora kubigata igihe Cyose ugiye kunywa ikintu: amata ndetse n'icyayi, igikoma urabona ko apfunyitse rero nawe wajya ubigerageza cyangwa ukabiha umwana wawe igihe agiye ahantu runaka ashaka kuyarya.

Umusore ubona ko yihangiye imirimo ku meza hateretse amagi, imineke, cabati, amandazi, agaseta ndetse na gasahani munsi harihanu anaga utwadanye nk'uko ubibona rero, ni ku muhanda nawe waza ukiguramo bino bintu birafasha abantu benshi cyane cyane batajya bateka bataha bananiwe nijoro.

Amata ni meza arafasha nkuko ubona uyu mwari wambaye umupira w'umukara arayateruye undi ateruye udukarito twinshi cyane wambaye umupira w'umweru inyuma yaho hari aho bayabikamo menshi cyane, ni byiza ko wajya uyaha umwana wawe mu gitondo cyangwa se ikindi gihe ayakeneye kuko arakuza.

Uburyo bwaroroshye rwose bwo kohereza ibintu utavuye ahantu uri wifashisha apurikasiyo gusa ugahitamo nomero za terefoni ukabanzamo nyine na kode z'igihugu bagahita bakikwereka ugashyiramo amafaranga ugahita wohereza rwose ngira ngo ni ako kanya.

uburyo bwiza bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga bwaraje gusa nk'uko ubibona uru ni urubuga rukorera kuri murandasi rwitwa peyipali ariko inaha mu Rwanda ntabwo rwemewe hari n'ibihugu rutemewe gukoreramo hano rero woherereza umuntu amafaranga cyangwa ukaywmwishyuriraho.

Amabanki ndetse n'ibindi bigo by'imari bitanga amafaranga ku nguzanyo, byafashije abantu benshi cyane aho bakeneraga amafaranga ugasanga bari gukora urugendo rurerure, ariko ubu niba ufite telefone urabyikorera wowe upfa kujyaho gusa ugashyiramo apurikasiyo yawe ugashyiramo imyirondoro yawe warangiza ugahita ubikandaho ukabitsa cyangwa ukishyura.

Ubushize twabonye ahantu ndetse n'amasoko ushobora kwifashisha ugura ibintu kuri murandasi rero nkuku nguku iyo umaze kubibona ni uburyo wishyura ukoresheje konte izo ari zo zose ufite ushyiramo imibare yazo bakakwereka amafaranga waba uribwishyure mu manyarwanda ukohereza cyangwa mu madolari.

Ibiganza byiza urabona ko biteruye, gusa iki ni ikirango cyamamaza, umwari ufite telefone, ku bantu bitegereza neza izi ntoki ntabwo ari iz'umugabo, arimo aragura amainite ya maganatanu yifashishije Mobayilo Mani y'iwe.

Uburyo ni bwinshi bwo kwishyura rwose ukoresheje ikoranabuhanga bwakemuye ibintu bitandukanye bwo kohereza amafranga mu bihugu by'abaturanyi ndetse no hanze yabyo aho tubibona kuri iki kirango hari umuntu umaze kubikora yifashishije tetefoni yiwe ndetse n'ibindi byinshi ushobora kugurira hanze , iyi ni apurikasiyo rero ujya kuyishaka ahabugenewe.

Ni henshi rwose ushobora kwishyura umuntu ukoresheje ikoranabuhanga rwose na telefone yawe ni ibintu biba byoroshye, urugero niba ugiye ahantu runaka ukabona amafaranga yagushiranye mu ntoki, uhita ukoresha ikoranabuhanga rya telefone na apulikasiyo zarabikemuye rwose n'amabanki arimo arabizana.

Ni byiza kwifashisha ikoranabuhanga na telefone yawe iri mu bwoko bwa samusanga rero hari imibare yarari gukanda kugira ngo agire ibyo areba, ibi rero bifasha abantu bitandukanye kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga n'ibindi byinshi.

Ibimenyekanishije umusoro nta ngaruka bikugeraho nta n'amande babishyira. Rero nawe niba uri umucuruzi cyangwa ukora ikindi kintu runaka nakugira inama yo kubikora vuba ,kuko nuyu nguyu nawe yaramaze kubisoza bamuhaye inyemezabwishyu uko yabikoze.

Imenyekanisha umusoro ni ngombwa kuko bituma twese dutera imbere nk'abaturage ndetse n'abandi bantu runaka, kuko biradufasha cyane urugero nk'iyo bari kubabaka imihanda ibyo watanze nibyo bayubakisha bagahemba abo bakozi urumva baha n'urubyiruko akazi rwose, turasaba buri muntu wese kujya ayitanga buri umuntu ucuruza.

Urutonde rw'imenyekanishamusoro ku nyungu, ndetse n'ibyo mwinjije, urabona ko hariho umwanda ndetse n'amezi, n'ayo mwinjije. Rero ni byiza ko nawe wajya ubikora bifasha abantu ndetse urabona ko na we yagerageje kubikora, ibi rero bituma igihugu cyacu gitera imbere, kikaguka.

Imenyekanishamusoro ni ryiza cyane nkuko ubibona uyu muntu nawe ni ikibyemeza ko ari kubikora cyangwa yanasoje kubikora hHakizimana Maurice, rero yari kubikorera muri mudasobwa yiwe, nawe wajya ubyikora utiriwe ujya gutanga amafaranga.

Ni byiza ko ahantu ugiye hose bajya baguha inyemezabwishyu cyangwa ibindi bintu runaka, iki ni igipapuro cyerekana ukuntu uba uhagaze mu mufuka cyangwa mu byo utunze, rero ni byiza ko nawe wagitunga kuko biragufasha cyane, bituma ukurikiza gahunda zawe uko zipanze.

Ni byiza ko nawe wajya ukora imenyekanishamusoro igihe ubonye umusoro ku nyungu, hari ikigo kibishinzwe rero nk'uko ubibona uyu muntu kuri mudasobwa yiwe yari amaze kubikora, ibi rero bifasha abantu benshi uwo utanze uragenda ugafasha abandi bantu runaka cyangwa ibindi bikorwa remezo runaka by'igihugu birimo kubaka imihanda ndetse n'ibindi.

Kuvunja no kuvunjisha bitunze abantu benshi cyane n'abafite amadorari aragenda akayatanga akaguha amanyarwanda waba ufite amashiringi ukayatanga bakaguha abanyatanzaniya biterwa nayo shaka ibi rero bitunze abantu benshi cyane buryo byabafasha.

Nk'uko ubibona rero rimwe navugaga utanga amafaranga ugahabwa andi bitewe n'igihugu uvuyemo cyangwa n'ay'igihugu ugiyemo, ni byiza ko nawe rero wajya ubigerageza kuko ivunjayi ritunze abantu kandi niyo ugiye mu mahanga ushobora gutwara ayaho kuburyo utazakenera kujya gushaka ahantu ukura ayo uzakenera.

Kwivugisha bitunze abantu benshi cyane, bahagarara ku mipaka wahagera ufite amanyarwanda wenda ugahita uyatanga bakaguhereza amagande. Ibyo rero bitunze abantu benshi bikanafasha abajya mu bindi bihugu kuba babona andi mafaranga yabo byoroshye.

Gutunga amafaranga ni byiza cyane kandi bifasha abantu benshi kera basangaga uyaryamanye bakagutera munzi bakakwica bagahita bayatwara cyangwa wayagendana mu muhanda ugasanga uhuye n'abambuzi barayakwambuye nkuko ubibona rero izi ni intoti zabugenewe uyu nguyi yigiriye inama yo kuyazana ahantu bayamubikira mu buryo bwizewe ku buryo igihe cyose agira ikibazo ahita bakayamuha anirinze ibyago.

Amafaranga ubona ni menshi cyane, arahenze, kandi afite agaciro gakomeye. Iyo uri kuvunja ni bwo wabibona. Rero bitunze abantu benshi cyane bakorera cyane cyane muri ibi bihugu by'i Burayi. Nizere ko nawe rero niba uyafite wayazana hano ukayatanga bakaguya amanyarwanda, cyangwa waba ufite amanyarwanda ukayatanga bakaguha ayangaya.

Ivunja n'ivunjisha ni ryiza cyane kubantu babikora, ndetse bitunze n'abandi. Uragenda waba ufite amafaranga y'igihugu runaka ukayatanga bakaguha ayicyurimo. Rero nawe nakugira inama. Aya rero mafaranga ubona ni menshi arimo: amadorari, amashinwa, n'ayandi yo mu Ubwarabu, sinzi niba ndi kureba neza ariko ni ayo ngayo.

Amafaranga yo mu Burayi akoreshwa yitwa Amayuwani, mu Bushinwa, nk'uko ubibona hari umuperezida wahisemo kuyakoresha nawe, indabo ndetse n'indi mibare, hejuru hari amagambo y'Ibishinwa tutabasha gusoma ariko inyumay'aho urabona ko hari andi menshi cyane ubishate kugenda nawe bakayakuvunjira ubaye uyafite.

Kubara amafaranga ukoresheje intoki zawe hari igihe bivuna ubwonko na none bikongera bikavuna umuntu uri kuyabara, wowe nakugira inama yuko wajya wifashisha imashini, gusa niba ndeba neza umuntu uri kuyabara akoresheje intoki ziwe aya ntabwo ari amanyarwanda, ni ayo mu kindi gihugu tutazi rwose.

Nizere ko nawe niba ufite amafaranga adakora mu gihugu cyawe, wajya ujya kuyavunjisha nk'uko ubibona hano. Biragaragara ko bavunja nyine, ukazana amafaranga amwe bakayaguhereza mu yandi; amanyarwanda, amadorari ndetse n'amapawundi. Uraza rwose ukayatanga bagahita bayaguhereza ukitahira.

Nuba uvuye hanze cyangwa se ahandi hantu runaka ufite amafaranga adakora mu gihugu cy'u Rwanda, ni byiza ko wagana abavunjayi cyangwa ahantu baguhindurira bakaguha ayo manyarwanda. Ibyo bintu birafasha cyane, rero nawe wakigererayo ukareka nk'uko ubibona icyo kirango kibyerekana, n'imiryangio irafunguye ni karibu!

Ni byiza kuba ufite amafaranga y'abanyamahanga nawe warangiza ukayavunjesha y'ubwoko butandukanye amagande, amatanzaniya, amadolari ndetse n'ibindi ashobora no kubyohereza rero wibereye mu rugo ufite nk'umuryango wabikora nta kibazo.

ni byiza ko niba ufite amafaranga atari ayo mu gihugu cyawe niyo wajya ujya kuyavunjisha bakaguhereza ayo ukoresha kuko birafasha cyane ndetse biranemewe nk'uko ubibona hano nibyo bakora nakugira inama yo kuyahazana niba uyafite.

Hari ahantu henshi bavungisha amafaranga ndetse ukaba wanayohereza hanze mu bihugu bitandukanye nkuko ubona uyu muntu rero nawe yishingiye imirimo yabyo afitemo na banke runaka ushobora kuza ugakora ibintu bitandukanye ukoherezaho amafaranga cyangwa ukayabikuza eee ndetse n'ibindi byinshi ushobora kuza ukanagura n'umuriro.

Ivunjisha ni ryiza cyane ku bantu baba berekeza mu bindi bihugu bitandukanye, ushobora kuza wifitiye amafaranga yaho bakaguha amanyarwanda cyangwa ugatanga amanyarwanda bakaguha andi amafaranga atandukanye nayo ufite. Inyuma rero urabona ko hari umusore wifashe amaboko utegereje ko bamuha ibyo aje kureba agataha.

Uyu musore mwiza rero urabona ko afite agasatsi gakeya, umupira wumukara imbere yiwe hari ibirango byerekana aho avunjishiriza amafaranga runaka nyine, niba ari ngombwa nawe wajya wiyizra rwose.

Ni byiza ko nawe iwawe hasa neza ukajya ugira ibintu bitandukanye uhashyira ku buryo ubibonye ahita avuga ati:''Uyu muntu azi ubwenge ndetse aba ahantu hameze neza." nk'uko ubibona hari ahantu hari uduti tw'indabyo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ubona ko bibereye ijisho kubireba.

Kwihangira imirimo ni byiza cyane noneho umurimo w'ububaji uragabura nk'uko ubibona, izi ni intebe zo kuriraho bicaraho ndetse n'inzu ubona ko irimo amarange y'umweru amadirishya akeye ni byiza ko nawe wajya ubigura ukabishyira iwawe.

Buriya kugira ibintu byiza nibyo biranga uwo uri we nk'uko ubibona utu ni utubati dukeye cyane ndetse n'intebe zimeze neza, rero igihe ushobora kwihangira imirimo nawe ukabikora biragabura kandi niyo nama nakugira.

Nizere ko nawe iwawe hajya hasa neza ukurikije intebe uri kubona mo hano nziza zikoze neza zifite imisego isa neza, utubati, hirya noneho; uburiro, n'izo kwicaraho uri kurya ni nzira cyare. Reba hejuru udutara duhari, ni ibintu ubona ko bibereye ijisho rwose.

Ni byiza ko nawe wajya ukora ibintu byiza Kandi bifite umwihariko, nkuko ubibona ano meza hejuru ni ikirahure ariho udutako twiza cyane tw'indobo munsi y'ibibaho nkuko ubibona ateretse kumakaro meza cyane ubona ko akeye y'umukara.

Kwihangira umurimo ni byiza cyane. Noneho kubaza bikaba akarushyo kuko ubona ko aka kantu ahantu Kari harakeye amakaro meza y'umweru udutako duteretse hejuru ibi ni ibintu bigabura Aho ukora wifasha imbaho imashini zabugenewe ugahita ukora nk'intebe cyangwa ibindi bintu runaka.

Buriya nk'abantu bize kubaza gukora intebe ameza ,ndetse n'ibindi byinshi nabo bafite akazi gakomeye kandi babona n'amafaranga, nkugira inama nawe yuko wayoka ufite ubushobozi nk'uko ubibona aha n'aho barira hateguye neza ibirori bihashize uhita ubona ko bifite isura nziza ikeye.

Ahantu heza rero ushobora gukodesha nkuko ubibona hari imitako, hashashe neza, intebe inyuma ndetse n'ameza, utubati, ibirahure ndetse n'amarido azana urumuri mu nzu ukabona ko ari ibintu bikeye noneho wareba hejuru agahita ubona akantu k'umweru uburyo gatatse ukumirwa!

Aha hantu harakeye cyane urabona ko hasa n'aho ari kuri hoteli rwose nawe wabyibineye, amakaro abonerena, ibirahure byiza cyane bituma ureba hanze, indabyo ziteyeyo, aho bakirira urabna ko hameze neza cyane rwose.

Inyama ni ingenzi mu buzima bwacu, ndetse ni ibiryo byiza cyane, uba ugomba kujya kubirira muri hoteli kuko ababitetse baba barabyize rwose, nk'uko ubibona hakurya hari amafiriti n'ibindi byinshi cyane, uraza kwiyarurira rero nta bikaze.

Inzu nziza nini kandi ubona ko ikeya iririho utwuma ndetse n'uduti hakurya urabona ko hari ibindi bintu by'umutuku bihari hejuru hirya agato hari ayandi mazu menshi ndetse n'ibiti bihateye munsi urabona ko harimo ubuvumo abantu binjiramo.

Nibyiza ko nawe wajya wigira muri Hotel igihe ukeneye kuruhuka, nkuko ubibona hano, ni ahantu heza cyane harimo ubwogero urabona ko amazi yaho afite isuku kandi bifasha abantu benshi kugorora imitsi, guhuza ubwonko ndetse n'indi, ibindi bintu bitandukanye nawe rero bakugira inama yo kujya uza ukinywera agafanta kawe, wakumva ushyushye ugahita ujya kwiyogera n'ibintu byoroshye cyane bifasha abantu batandukanye.

Iyi ni inzu nziza rwose ubona ko ari hotel ushobora kuza ugaturamo wowe n'umuryango wawe mukiberamo amatara meza, ibiti bikeye amabati ubona ko niyo waba urimo ntacyaguhungabanya rwose no hasi wahicara ukabona hari udutebe nyine rwose umuntu aza akaruhukiramo.

Abantu babaza rwose, abagenewe kujya bakora ibintu byihariye kuko birafasha. Nk'uko ubibona nk'aka kameza ni keza rwose gateretseho utuntu, urabona ko bisa neza, intebe nziza ndetse n'amatara ubona ko abereye ino nzu rwose, nawe ubiguze byaba ari sawa.

Iyo ugiye muri hoteli ukinjira uhasanga abari beza baseka neza, nk'abangaba uri kubona umwe wambaye imyenda y'imikara undi umweru, nkaha urabona ko hari imitako itandukanye, televiziyo ureberaho amashusho n'ibindi bitandukanye, rero inama nakugira ni uko wajya ujyayo igihe ubonye akanya.

Iyi ni hoteri rero ushobora gusohokaniramo n'umukunzi wawe nk'uko ubibona hari uduti twiza mu bwogero urabona ko hayakeye cyane, ikirere cyiza cyane rwose nawe urabibona, ni byiza ko na mwe rero mwajya muza kuko birafasha bituma ukora siporo.

Ameza urabona ko asa neza, kakurya mu kirahure unyujijemo amaso hari ahantu hari ibitabo byinshi cyane, urabona ko hari n'abantu bari bahuze cyane inyuma yaho urahabona ibiti ndetse n'ibindi byinshi rero aha ni ahantu ushobora kuza ugasaba ubwishingizi runaka bitewe nikintu ushaka kubufatira cyangwa umwana wawe, inzu, cyangwa imodoka.

Niba nawe ushaka gushinga ikintu runaka gifasha abantu, nakugira inama yo kugira aho ubarizwa, nk'uko ubibona hano rero niho batangira ibijyanye n'ubwishingizi runaka, niba ufite inzu yawe ushaka gushinganisha, imodoka kugira ngo ejo nigonga cyangwa inzu igashya uzagaruke bagufashe, urabona hari intebe nziza zo kwicaraho, ibirahure bisa neza cyane.

Ubwishingizi ni ingenzi haba murugo ndetse n'ibyo utunze, nakugira inama yo gukorana na bo niba ufite imodoka, inzu n'ibindi byagufasha. Rero hano nahagana ukababwira uko bimeze bakajya babikwishyurira rwose kuburyo imodoka ihiye cyangwa inzu bashobora guhita bakubakira indi.

Gukorera ahantu hasa neza ni ibintu biba bisa neza cyane nkuko nawe ubibona. Ibi ni ibiro rero bikorerwamo n'abantu batanga ubwishingizi ku nzu zanyu cyangwa imodoka barushaho kubishinganisha urabagana bakagusaba ibikenerwa byose kugira ngo ubyuzuze byarangira urabona ameza asa neza ndetse n'ibindi byinshi.

Inguzanyo ni ikintu gitabara buri muntu wese ushaka gukora ikintu runaka rero nawe niba ufite gahunda wayifata ariko ku kintu gifatika apana kuyifata igihe ubona ko ugiye kuyarya gusa ntaho uzayakura nakugira inama rero kubanza ugatekereza kabiri mbere yo kuyifata nkuko ubibona ibi ni ibigo rero bishinzwe kuzitanga.

Ni byiza kubantu bagiye gufungura konti bundi bushya muri bake runaka aho babaza imyirondoro irimo amazina yabo, nomero z'indangamuntu, niba barashyingiwe cyangwa batarashyingirwa , aho batuye, umuntu wabishingira igihe batariho , ibi rero ni ikibigaragaza ko ugomba kubyuzuza mbere y'uko utunga konti.

Nibyiza ko nawe ushobora kugura imodoka ufite amafaranga cyangwa ntayo ufite ushobora gufata inguzanyo kuri banki runaka ukoresha , ahubwo biterwa tn'icyizere bagufitiye ukagura iyo ushaka yose ariko ntabwo ari igitekerezo cyiza kuyifata udafite ahandi hantu winjiriza cyangwa se udafite ikindi kintu cyo kuyikoresha kikwinjiriza ku buryo wazayishyura ugiye ugiye kuyigendamo ku giti cyawe wapi ,wayifata ugiye kuyikoresha mu kazi kazagufasha kwishyura inguzanyo.

Kugira ngo ufate inguzanyo usabwa ibintu byinshi: irangamuntu yawe, konte ubitsaho, aho uvana amafaranga ndetse n'ibindi. Uyu mugabo rero nk'uko mubibona afite ikayi n'ikaramu ari gusinyaho amasezerano, amafaranga ubonye ko hari uri kuyabara ngo bayamuhereze, ibintu byiza cyane! Na we agiye kugira icyo ayamarisha, ndetse n'ibindi byinshi.

Hari ahantu rero ushobora gushakira akazi ku mbuga nkoranyambaga ziba zihari ,knkuko ubibona iki ni ikirango cya bake ikorera mu Rwanda ,wiyare hayaringi bisobanuye ko bari gushaka abakozi runaka bashobora kujya kubakorera ndetse hariho n'igihe ntarengwa cumi n'enye uzagerayo nawe ukareba niba wagerageza amahirwe yawe baguha akazi.

Ni byiza ko nawe wajya ufata inguzanyo ukayishyura kuko iyo uyishyuye ubona uburyo umwana wawe nawe azishyurirwa, urugero nk'abanyeshuri baba biga ku nkunga ya leta rero iyo bayishyuye nabo baba bishyuriye abana babo kugira ngo nabo bazige, ni byiza rero nk' bibona hano iki ni ikintu kibyerekana itangwa na banki nkuru y'u Rwanda brd.

Ibikorwaremezo byubakwa na Leta, harimo gare zigezweho zirimo n'imodoka zijyanye n'igihe, aho imodoka nini itwara abagenzi rusange.

Uyu mwari mwiza ubona ko aryohewe n'akazi ke kugakora, arimo arategura voka mu masorori, hirya hari pome, inyanya, ndetse n'amaronje. Kahurya urahabona ibijumba, imyumbati, ibitoki, n'imineke, nawe rero waza, imbuto ni nziza ku mubiri w'umuntu.

Urabibona ni imyenda myiza cyane rwose iri mu mabara atandukanye, wayisangamo abakobwa, abagore batwite ndetse n'abandi muri rusange, ariko uko ubibona harimo umwari waje kuyireba, urabibona ko araramye afite icyo ari kurebana yaranga rwose n'intebe ndetse yo kwicara ho kuko aniwe.

Iyi ni isoko nyine ushobora kujya guhahiramo, ibintu bitandukanye birimo imyenda, ibiriribwa ndetse n'ibindi byinshi ukabona abantu benshi baritagumbuka ba bafite iyo bava niyo barikujya n'imodoka ziri kwimanukira rwose urayibona ngiyo y'u mukara umukara eee nibyizeye ko nawe wajya uhaza.

Kigali amasoko aruzuye menshi cyane ndetse ariho n'ibirango byeraka ukuntu ikoranabuhanga rigenda ritera imbere nkuko ubibona iyi ni itaje nziza cyane yubatse imbere yayo urabona ko haparitse amamodoka menshi aba yiteguye gutwara abantu ndetse nabaje kugura ibintu bitandukanye abamotari bagufasha kugera ahantu ugiye ndetse n'ibindi byinshi ushobora kuza ugahahiramo imbere.

Ibikoresho gakondo ni byiza cyane birafasha, byakemuye ibintu byinsi bitandukane, nk'uko mubibona haho, hari: uduseke, ibikomo, imyeda, byanditseho Rwanda, ndetse n'ibindi byinshi bitanduhanye. Uwihangiye imirimi rero bituma adasabiriza cyangwa ngo abure amafaranga yo kishyurira umwana we ishuri, ngo cyangwa namujyama kwa muganga usange abuze ayo kumwishyurira ibitaro.

umwari mwiza cyane urabona ko ariganirira n'umupapa sinzi niba bari kumwe gusa we yifashe mu mifuka imbere hari undi wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ingofero inyuma yabo n'ureba neza urabona ko bariya bantu bari gucuruza inkweto niri ni isoko rero muri rusange baba bagiye kwigurira.

Uyu mwari urabona ko ari gutunganya ijipo yiwe yambaye agakapu arimo aragana ku isoko ahantu gucuruza ibintu bitandukanye urabona ko ari byiza cyane. Hakujya iburyo bwiwe hari abacuruza amavuta yo kwisiga ndetse n'ibihumuza umubiri w'umuntu.

umubyeyi urabona ko asa nk'umucuruzi cyangwa akaba avuye ku isoko guhaha nk'uko ubibona inyuma ye hari abantu benshi ndetse n'ibicuruzwa byinshi birimo imodoka iri inyuma wagira ngo nayo hari ahantu igiye agakapu imbere ye afite abikamo amafaranga.

Iyi ni meniyu y'ibinyobwa ya biti beveleji yerekana ibinyobwa bitandukanye ku giciro cyabo, amakategori yose arimo guhera ku ikawa, icyayi, ibinyobwa sofuti dirinkisi, inzoga n'ibindi byinshi, biri ku giciro cyo ku rugero guhera ku cyatanu kugeza ku bihumbi bine iyi menuyu kandi ituruka muri Kigali sentiri pake rezidensi.

Umusore nkuko ubibona arimo aratunganya ibintu bitandukanye birimo ingofero imipira ndetse n'abandi inyuma ye hari igikapu ndetse n'ibindi birango biri mumabara y'umuhondo ibi rero bihabwa ababitsindiye ntago wabihabwa utabikoreye cyane.

Umutaka mwiza ubarinda izuba cyangwa imvura igihe iguye inyuma yabo hari ibiti ubonako bimezeneza ndetse n'amamodoka menshi cyane hari umusore wicaye ahantu hameze nkaho ari kwipoto hari n'undu uri mu kazi wambaye umwenda w'umuhondo we mwiza cyane ndetse ari gufasha umugabo wambaye umupira w'umutuku n'amarinete ubonako yaje kwaka amafaranga mu ntoki ngo bayamuhe nawe ayatange kuri telefone.

Abasore urabona ko bishimye, umwe yambaye inkweto isa igitaka undi nawe urabonako ifite akarase k'umutuku, imyenda y'imyeru; inyuma yabo hari indangururamajwi, wareba hirya gatoya hari umukobwa rwose nawe ubona ko yaryohewe, yambaye umupira w'umweru na we uteze agatambaro; inyuma hari ikirango cyanditseho ''izihirwe'', bisa n'aho hari impano bari gutanga ku bantu batsindiye ibintu runaka.

Intoki nziza urabona ko zifite inzara zikeye zisa neza z'umweru zitakoze ibintu bitandukanye, afite terefono mu ntoki ari kugura amayinite kugira ngo abashe guhamagara iwabo ariko ariguhitamo uburyo bwo gukoresha mobayiromani.

Ibi ni ibintu bihabwa abacuruzi cyane cyane nkuko tubona rero ni utuntu twitsi turiho imyirondoro y'abantu yandikishije amagambo y'ubururu, nimero zirimo kode bashobora kwifashisha wishyura ukoresheje ikoranabuhanga ndetse n'amudasobwa inyuma hari indabyo nziza cyane z'umutuku.

Umucuruzi ubona ko yambaye umwamba w'akazi, arimo aramanika ikirango kiriho imyirondoro yiwe gisa umuhondo n'ibara ry'umweru cyerekana ko bazajya bamwishyura bifashishije ikoranabuhanga, acuruza amapantaro, imipira ndetse n'ibindi byinshi, ushobora kuza ukamuhahira nawe.

Kwishyura wifashishije ikoranabuhanga rigezweho byakemuye ibintu byinshi cyane, aho umuntu yitwazaga amafaranga mu ntoki akaba yayata cyangwa agakubitwa bakayamwambura, ariko ubungubu nk'uko ubibona uyunguyu nibyo ari gukora hakurya hari igipapuro kiri mu mabara y'umuhondo, amagambo yandikishije umukara hariho imyirondoro y'umucuruzi runaka ukandaho imibare agahita akwishyura.

Guhaha wifashishije ikoranabuhanga birafasha. Rero, aha ni ahantu ushobora kujya kubikuza amazoni, Alibaba, yubeyi, tabawo ndetse n'izindi nyinshi, urabona n'imyirondoro yabashobora kugufasha mugihe waba ugize ikibazo runaka ugahita ubahamagara.

Kugura ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza cyane, kuko ukimara kubihaha bahita babikuzanira, nk'uko ubibona: amashu, tungurusumu, imineke, inyanya, imboga, ndetse n'ibindi, telefone yawe ushobora kuyifata tukajya kuri murandasi maze wabibona ukabikandaho bigahita hokugeraho.

Aha ni ahantu rero ushobora guhaha wifashishije ikoranabuhanga kuko birakemuka ndetse kandi cyane, iyo ubitumije bikugeraho n'iyo waba uri hehe hose, upfa kuba uri mu gihugu cyawe gusa nta kindi, ye! Bikugeraho rero.

Guhaha wifashishije ikoranabuhanga ni byiza cyane kandi birafasha nkuko ubibona nawe iki kiriho kigure doti rwa wowe ushobora kujyaho wifshishije terefono yawe cyangwa mudasobwa nkuko ubibona indimu, amaronji n'ibindi bitandukanye , inkweto, imyenda ushobora kubihahiraho utavuye iwawe.

Guhaha wifashishije ikoranabuhanga biba byiza cyane kuko byakemuye ibintu bitandukanye , nkuko ubibona ushobora guhahiraho utu ngutu wambara ku maboko twanditseho amazina yawe , hirya hari n'utundi dukomeza intoki uba ukanda kugira ngo intoki zawe zizakomere ndetse n'ibindi byinshi birmo inkweto imyenda n'ibindi.

Ahantu heza rero nawe ushobora kugurira ibintu ukoresheje ikoranabuhanga ni ahangaha . ushobora kugura ibikoresho birimo ikote, ipantaro, terefone , tereviziyo ,ekuteri n'ibindi byinshi na za mudasobwa wazisangaho cyangwa ukabitumiza wabishima ukabigura.

Ni byiza ko wajya wigurira ibintu wifashishije ikoranabuhanga kuko birafasha cyane, cyangwa ukagurisha ibyo ufite kugira ngo ibindi bigende neza nk'uko ubinona hari ikindi kirango kiri mu amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, mudasobwa cyangwa se tabuleti na telefone byifashishwa mu gihe ushaka kugura, harimo ishusho y'umukobwa ubona ko afite inzara nziza.

Abasore babiri ubona ko basetse bishimye mu mwambaro w'akazi usa icyatsi, ingofero zibarinda ibyago, bafashe ku gikapu batwayemo ibintu baba batumije bibereye mu rugo, biteretse kuri moto yo mu bwoko bwa tevisi, inyuma ye urahabona ko handitse lakarase hoteli, niho bavuye cyangwa babizanye byashoboka.

Ni byiza kwigurira ikibanza ukiri mutoya cyangwa se ukakibikamo amafaranga, kuko niba hari ikintu kitajya gihomba ni ubutaka, rero nawe nakugira inama nkuko ubibona hano barabicuruza, izi nimero nizo wababonaho rero ukabihaha igihe ushaka kwiyubakira.

Ni byiza ko nawe wajya ukodesha ahantu runaka hokurara cyangwase wazubaka inzu ugashyiramo amarido nkayangaya y'umukara ndetse n'umweru, uburiri bwiza bubereye waryamamo noneho si nakubwira amatara ahari ni rurangiza rwose.

Aha rero nk'uko ubibona ni igikoni cy'iterambere ubona ko gicyeye, ukundanda kugisanga mu mazu akodeshwa. Urabona ko hari ubukarabiro bwiza cyane, hanze wakubitayo akajisho hanitse imyenda y'icyatsi ndetse n'ubururu. Ni byiza ko nawe rero wajya uza ukishakira aho uba hacyeye hajyanye n'igihe.

Aha ni hantu ushobora gukodesha uburiri bwo kuryamaho, cyangwa se ukaza wahararana n'umuntu runaka nyine. Nk'uko ubibona hari igitanda cyiza, amashuka y'umweru, n'umusego wisegura rwose kugira ngo utarwara igikanu.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza ukarara uko ubibona uburiri bwiza bushashe bukeye . ahandi hari idirishya ureberamo hanze utujaride duhari n'abari gutambuka hari igipangu , hari inzitiramibu ntabwo waribwa n'umubu cyangwa ngo ugire ikindi kintu uhura nacyo kigutere indwara igihe wayishyize aho uryamye.

Inzu yawe ni byiza ko yaba ifite ubwogero kuko birafasha urikubibona hariya hariho amakaro kugikuta cyose hejuru parafo nziza uturahure ushobora kumanikaho ibyo wihanaguza cyangw imyenda yawe runaka hirya urabona aho ubyanika harimo amazi hejuru ubona ko ari ibintu byiza cyane.

Hari ijyihe rero iyo ugiye kuva ahantu uhitamo gukodesha ahantu uzaba nyine uzataha iyi ninzu rero urabona ko arinziza irageretse hasi no hejuru hari ibiti byiza hasi hari agapasiparumu ushobora kwicara nuko ukumva umeze neza rero irakodeshwa iri hano mu Rwanda

Gucuruza inzu ni byiza kandi birafasha nawe uyiguriye wazishyiremo izi ntebe ni nziza cyane zirakeye ziri m'imisego, udutara twiza ubona ko duhenze rero nawe waza ukayikodesha muri kigali, igihumbi magana atanu by'amadolari buri kwezi.

Hari ahantu henshi rero ushobora gukura inzu zo gukodesha ndetse nizokugura uko ubibona ino nzu iratatse cyane umuhasikariye meza cyane ubonako akeye, amatara meza hirya yaho urabona ko hari umuntu urikwinjira mu gikoni aje kwereka abantu runaka iyi rero wayisanga hano Kigali ku madorari ibihumbi bibiri ubwo nihafi miriyoni ebyiri n'igice z'amanyarwanda.

Ibi ni ibintu rero ushobora gusanga ahantu ukodesheje uje kuhaba nk'icyumweru cyangwa se ukwezi biterwa nkiyo uvuye mu mahanga ukahakenera , harimo intebe nziza ubona ko zifiite udusego tw'umukara hakurya hari uburiro ndetse n'igikoni ushobora gutekeramo urabona ko biba bisa neza cyane.

Ni byiza gukodesha inzu irimo byose nkuko mubibona hano harimo intebe, amatara meza, ibiryo ndetse n'ibiteguye ubona ko ari n'indabo zibereye ahantu imitako ku gikuta rero nawe niba ufite iyo gahunda nakugira inama yo kuba wabitumiza cyangwa ukabikorera i wawe.

Ahantu heza ushobora kuza ukareba inzu wayishima ukayibamo ukayigura cyangwa se ukayikodesha, iyo tuvuze kuyikodesha ni igihe uza ukayibavamo ukajya wishyura buri kwezi, nk'uko ubibona hara amayesakariye meza amakaro akeye waza ukayahanagura iyo yanduye bigahita bikunda rwose, aha ni ahantu heza rero hitegeye umujyi nk'uko ubibona igicu kiza ubururu ndetse n'umweruru.

Hari abantu baza ku mpamvu z'akazi ugasanga bavuye mu ntara babuze aho baba cyangwa se birabagoye kujya gushaka ahantu baba, nkuko mubibona rero aya ni amazu aba akodeshwa ameze neza nkuko mubibona kino gipangu kirimo amabuye ntaho wahurira n'icyondo imiryango myiza cyane noneho uwakwereka m'imbere ntakarusho.

Kigali ni henshi ahantu hakodeshwa nk'uko ubibona nyine inzu zo guturamo kubona wavuye hanze ariko batazamaramo igihe kirekire, byiza ko nawe wajya uza ukayikodesha kuko harimo ibintu bitandukanye. Iyi ngiyi irikubakwa ariko ahandi ho usangamo ibikoresho iherereye i Kigali ,Kibagabaga ifite ubwogero bubiri ndetse n'ibyumba bibiri magana atandatu ku kwezi.

Kigali hari amazu menshi ushobora kugenda ukiberamo akeye yubatse neza noneho iyo ugezemo imbere uhita ugira ngo ugeze ahandi hantu. Nk'uko ubibona hari utwuma dutuma ufungura ukinjiramo amakaro meza amadirishya meza akiriyte ubona ko isakaye neza umuyaga utakujyana, iyi rero na yo irakodeshwa iherereye i Kanombe.

Kugura no kugurisha ibibanza ni byiza cyane kuko ni ibintu bitajya bipfa guhomba habe na gato. Nk'uko ubibona hano, ni byo bacuruza, biranakase, ni byiza ko nawe wagerageza ukajya wirebera, ni ikintu kitajya gihomba cyane.

Kigali niheza cyane nakugira inama ko wajya uhasura ni umujyi ufite isuku ubona ko hakeye nkuko ubibona hano hari aka jaride amabuye ashasheho ahantu ntacyondo wahura nacyo cyangwa imodoka yawe ngo yandure uhaparika imodoka, imbere hari inzu nziza ubona ko igeretse rimwe ikeye cyane ifite ibirahure byiza.

Ni byiza ko niba nawe ufite ikintu ukora cyangwa ibindi bintu wajya ubyamamaza. Urugero niba ufite amazu ukodesha cyangwa se ibindi nyine abantu bashobora gukenera mu buzima bwabo bwa buri munsi ukayamamaza. Nkuko mubibona iyi nzu ni nziza rero hasi haparitse imodoka hirya hari ibiti urabona ko bikeye ndetse bitanga n'ishusho nziza kubantu bahari.

Hari igihe bikugora kuba wabone inzu runaka ariko hari abakorera ku mbuga nkoranyambaga ushobora kuryaho nawe ukareba iyo ushaka kubamo wayishima mukavugana hano nkuko ubibona hano rero harakeye niheza ni ku muhanda, igipangu inzu nziza ushobora gutuzamo umuryango nawe ubwawe ku giti cyawe.

Nk'ubo ubibona rero mo imbere harasa neza, parafo nziza, inzu nziza na yo ifite amarangi akeye, irakodeshwa rero hano kimironko, ibyumba bitatu, ubwogero bubiri, ibihumbi magana atatu buri kwezi, ubaye uyikeneye rwose urahamagara bagahita bayikwereka.

Hari ahantu haba hari amazu meza cyane ubona ko acyeye, ibipangu bimeze neza binasa. Nk'uko ubibona rero, imvura ishobora kuba igiye kugwa mu mahanga udafite ahantu ho kuba ugahita uhakodesha nk'ukwezi kuko usangamo ibikoresho, intebe, uburiri ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Usibye no kuba zikodeshwa ziba zinagurishwa nkuko ubibona iyi nzu neza n'ubwoko bwa kadesiteri itatse neza ibirahuri bikeye by'umukara, hari umuntu usanaho ari gukaraba mu maso akenyeye isume, rero iragurishwa Kigali-Kanombe miriyoni mirongo inani n'eshanu ikaba iri kubuso maganatatu mirongowine urumva ko ari bwinshi cyane.

Ni byiza ko rero nawe wajya ukodesha inzu runaka isaneza nk'iyingiyi amakaro y'umweru, aho gushyira televisizo, amatara meza yaka, aho kurira ndetse n'ibindi byinshi. Ubaye ufite n'amafaranga ngo uyigure wayigura rwose kuri miriyoni nk'ijana na mirongo itatu hehe? Kanombe- Kigali.

I Kigali ubucuruzi bwabaye ubucuruzi nawe rero wajya ubikora hanno kuri murandasi birakunda. Dore ko abantu benshi baba bibereye no hanze, bakunda kuza bashaka ko ibyo bakoze biri ku murongo. Urugero ashobora kujyaho yabon inzu nziza akayikodesha akaza ayijyamo. Nkuko ubibona rero irubatse, irageretse urbona ko ibirahure bisa neza cyane. Amasikariye uzamukiraho ndetse n'utwuma tumeze neza, nawe rero wayikodesha ifite ibyumba bibiri ubwogero bubiri n'ibindi.

Amazu meza yo gukodesha arahari kandi ntabwo yabura muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se ahandi ahantu runaka ugiye, nk'uko ubibona amakaro meza ateye neza rwose harimo ikirahure kibonerana ugahita ubona umuntu, imyenda yanditse n'ibindi, iyo ugezemo rero ihita ubona n'ibindi byinshi bitandukanye.

Hano nuko hakeye amakaro meza cyane utubati turimo ibirahure turimo ibintu bitandukanye bacuruza hirya urabona ko abantu babyitabiriye bari kureba uko bikorwa, hari n'intebe yo kwicaraho igihe wumva unaniwe cyangwa se uri gucuruza iyo nta bakiriya afite arabyikorera.

Aha ni ahantu rero ushobora kugura ibintu bitandukanye birimo ibyo guteka cyangwa ibikoresho byo munzu urabibona ko hari amabara y'ubururu akwereka aho uri bwinjire naho utari bwinjire. Ni byiza ko wajya ugerayo ugahita usangayo abantu bagufasha icyo ubuze bakakwereka.

Uyu musore mwiza ubon ko yihangiye imirimo ameze neza cyane nta kibazo afite ari ipfumbase inkweto imbere ye za kamambiri n'izindi zimatse inyuma amakanzu menshi cyane y'abadamu ushobora nawe kuza ukigurira ukumva umeze neza ndetse uranakeye.

Aha ni ahantu rero ushobora kugenda ugahahira ibintu bitandukanye; ubunyobwa bumeze neza, ji, fanta, ibisembuye, cyangwa ibindi byose wakifuza wabisanga mo hano, akarusho ni uko shobora gusanga ari na ho biba bihendutse kurusha muri karitsiye.

Uyu mwari mwiza ubona afite imisatsi ifunze umupira w'umutuku agatambaro ari kukanaga ahabugenewe hajya imyanda, imbere hari akabati k'ibirahure habona agacuruzamo ibyo kunywa hakurya n'ureba neza urabona ko harimo ibindi bintu ushobora kwifashisha.

Ni byiza ko wajya ujya guhahira mu masoko akomeye meza cyane atandukanye hano mu gihugu arahari nkuko ubibona haracyeye harimo amakaro y'umweru, abantu bafite ibintu bari bazanye baje kubarisha kugira ngo bishyure ibyo batwaye.

Kubara amafaranga ukoresheje intoki zawe hari igihe bivuna ubwonko na none bikongera bikavuna umuntu uri kuyabara, wowe nakugira inama yuko wajya wifashisha imashini, gusa niba ndeba neza umuntu uri kuyabara akoresheje intoki ziwe aya ntabwo ari amanyarwanda, ni ayo mu kindi gihugu tutazi rwose.

Umukati ni ingenzi kubana bawurya buri gitindo nabagira inaba niba nawe niba uri umubyeyi wanjya uwubashyirira mubyo barya. Ni byiza cyane nk'uko ubibona irapfunyitse, iraryoha biba byiza iyo usizeho marigarine ifasha abana neza bakumva barakuze bakanywesha igikoma ndetse n'ibindi.

Ni ibintu byinshi ushobora kugurira ahantu runaka bitewe n'isoko wagiyemo ndetse n'ibyo bagurisha. Nkuko ubibona uyu umugabo afite ibyo ari gushyiramo hariya, hirya gatoya inyuma ye hari umubyeyi wambaye ingofero ndetse n'abana ubona ko bari bitabiroye ibiri kuberamo hano.

Kwishyura mituweli kuri buri muturage ni byiza cyane kuko birafasha, nkuko ububona iki ni ikirango kiri mu ibara ry'ubururu udutwe dutatu tw'icyatsi amagambogambo yanditse ubwisungane mu kwivuza, aha rero bituma wifuza ku mafaranga makeya niyo urwaye indwara ikomeye leta iragukurikirana ikagufasha.

Hano urabona ko hari ababyeyi wagira ngo ni ku kigonderabuzima bambaye ibitenge abandi nabo baricaye hari uturabo twiza cyane tubereye ijisho ndetse n'utubuye n'ibyatsi ubonako bituma hasa neza.

Aha rero hasa naho bafite icyuma cyabugenewe bari gupima ibintu ruranaka urabona ko harimo umuntu usa n'ukuze ndetse n'undi musore uri hirya. Reba nyuma hari abandi bagore n'abantu batandukanye wagira ngo bategereje ibisubibizo.

Hari ahantu henshi rero bacuruzamo ibintu bitandukanye cyane cyane mu maduka, hari n'igihe usanga ariho bihedutse kuruta ahari ibihenze. Nkuko ubibona rero hano hari umumama waje guhitamo ibintu bitandukanye harimo ji zikoze muri pome, hirya hari amafanta y'ubwoko bwose nawe rero waza ukigurira.

Amaduka ni menshi kandi atanga ibintu byiza bifite umwihariko, nk'uko ubibona rero, hano harimo: amavuta, imiceri, akawunga ndetse n'ibindi byinshi ushobora kuza ukihahira ukajya gutekera iwawe mu rugo.

Urabona arimo arakurura uburingiti bwo kwiyorosa hirya urahabona amazi meza cyane bisa nk'aho hano hantu bacuruza ibintu bitandukanye ariko wareba inyuma yiwe hari abandi bamuhagarikiye babiri bisa naho aribo baje guhaha ibingibi.

Ni ahantu nawe ushobora kuza ugahahiramo ibintu bitandukanye ndabonamo ji 'inzoga zisembuye ndetse n'izidasembuye, amatara meza atatse ushobora kugenda ku buryo utasitara ku kintu ndetse n'ibindi byinshi ushobora gusangamo inyama z'ubwoko bwose.

Abazungu ubona ko bafite ibintu baje guhaha birimo imboga, inyanya, amashu, ndetse n'ibindi ipantaro, inkweto nziza, imisatsi ifunze rwose urabona ko ateruye n'indabyo arimo aragena